Mu nzu, mo imbere hasi harimo amakaro, abantu; umwe babiri, batatu, babiri barahagaze, undi umwe aricaye, imbere hariho ameza, igitambaro cy'umweru, harimo amabara y'ubururu, inyuma ye hariho urukuta hagaragaraho amadirishya n'amagamho yanditse mu ririmo rw'Icyongereza.

Inyubako nini cyane yubakisha amatafari ahiye hejuru hariho amatara amurikamo imbere manini cyane hakirya ya ikirere kirimo gusa umweru wijimye ibiti bihari bimeze nkaho byagiye bikokoka amababi.

Umuntu uhagaze mu bihingwa by'ibigori umanitse ukuboko hejuru yambaye ingofero, nikote, numupira hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo shinganisha ibihingwa byawe igihe utekanye.

Icyapa kirekire cyane kimanitse hejuru hariho abagabo babiri bambaye amakote, amashati na karuvati, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze .

Umugabo wambaye ikote ishati na karuvati n'ipantaro afite umusatsi na telefone mu ntoki nini cyane arimo kurebamo, imbere ye hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo kuki ukwiriye kutwizera mugihe ukeneye ubwishingizi.

Imodoka y'umukara iparitse hasi muri kaburimbo, hakurya hariyo ibiti byinshi cyane n'imisozi, ikirere kirimo gusa umweru, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza na moto iparitse itarimo kugenda ikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Telefone irimo kwaka harimo urupapuro rurimo amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza hasi harimo utuntu twinsi bagenda bajyaho tw'utwumba hejuru hakaba hariho mirongo itandatu na karindwi ku ijana, hariho isaha irimo kubara saa tanu na mirongo itanu n'itandatu.

Urupapuro rufite amabara y'umuhondo n'icyatsi hariho umuntu wabikuje amafaranga bamubwira yuko byakunze, hejuru hariho isaha irimo kubara saa saba na mirongo itatu n'itanu.

Munzu mo imbere harimo amakaro hasi amatara arimo kwaka hakaba harimo utuntu turambitsemo imyenda mwinshi cyane hariho igipupe bambitse imyenda isa ya siporo hejuru hakaba hariho isaha irimo kubara saa saba na makumyabiri nine.

Mu isoko ahantu mu nzu mo imbere hariho ububati buzamuye burebure, hariho inkweto nyinshi zitandukanye, hejuru yaho harambitseho ibitenge. Hino hari utuntu tw'utwuma turambitseho amashati menshi afite amabara agiye atandukanye.

Mu inzu mo imbere ahantu hasi harimo amakaro afite irangi ry'umweru, no hejuru niko hasa harimo amatara menshi cyane arimo kwaka igice cy'imbere, hariho icyuma gifata amashusho arimo kubera muri iyo nyubako mo imbere.

Mu nzu mo imbere hasi hariho amakaro y'umweru irangi ry'umweru riteye ku gikuta, akantu kari mu nguni banagamo imyanda, imyenda imanitse myinshi cyane igiye itandukanye ifite amabara agiye atandukanye.

Inyubako nini cyane inzu y'ubucuruzi, ikaba yubakishije amabuye menshi cyane, inyuma hariho imyenda igiye imanitseho, ameza arambitseho igitambaro harihoho utuntu tugiye dutandukanye, udukombe, n'imbere urugi rurafunguye amatara hejuru arimo kwaka.

Aho bacururiza ibintu harimo umumama wambaye ikanzu yigitenge muntoki afite amafaranga arimo kubara akaba imbere ye hariho nameza ariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye ibiri mundobo nibimanitse hejuru inyuma ye.

Abantu umwe babiri bose ni aba mama ariko uwicaye mo imbere niwe mukuru cyane, imbere ye hariho ameza afite ikaye n'ikaramu arimo kwandika nkaho agiye kumuha ikigaragaza ibicuruzwa aguzemo akabaye atanze n'umusoro w'igihugu.

Inyubako mo imbere hasi harimo amakaro, igikuta giteye irange ry'umweru hejuru hariho amatara arimo kwaka, imyenda imanitse ku tuntu tw'utwuma tugiye dutambitse harimo akabati kazamuye, harimo utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi rusange harimo abantu, habe n'uyu numwe hakurya hari n'izindi nyinshi zihari, ibiti binini cyane bihateye, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu insinga z'amashanyarazi zirimo gucamo.

Imodoka nyinshi zikarimo kugenda zihagaze, imwe, ebyiri, eshatu, hariho hejuru ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda zikaba zitwara abafungwa zibageza aho bafungiwe cyangwa kubaburanisha cyangwa ku mavuriro, hasi aho ziri hariho amatafari arambuye ho, imbere yaho hariho abantu babiri b'abapapa.

Inyubako mo imbere hasi harimo amakaro, harimo imodoka nshyashya isa neza cyane, hakurya hari ibirahure bidafunguye harimo kugaragaramo ibiti binini cyane, harimo n'ibara ry'umweru izuba ririmo kuvamo.

Imodoka imwe ebyiri zifite imbere handitseho vorukano zihagaze zitarimo abantu hakurya mu birahure haragaragaramo izindi modoka ziparitse hakurya hasi yaho hariho sima zihagazeho hejuru yaho harubakiye hariho igisenge cy'amabati gifashwe n'ibyuma.

Inzu ndende yubatse hejuru handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza hasi harimo ibyuma bizitiyeho utuntu tw'udukwege twinshi cyane, mo imbere haparitsemo imodoka nyinshi, inyuma yaho hariho insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane, hasi hateyemo ibyatsi bitoya.

Imodoka nyinshi harimo imwe irimo kwaka amatara hariho purake yanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'andi magambo ari hejuru narwo yanditse muri urwo rurimi hasi ku muhanda hashasheho amatafari ahiye.

Inyubako yubatse hakurya ariko ishaje hasi irange ririho ry'umweru ryagiye ryandura hejuru hariho ibyuma biriho bigiye byubatse birinda yuko hariho umuntu wakurira ngo ajye imbere mu rugo gukubagana urugi runini cyane rwo ku marembo ruhari hariho n'ibiti bihateye birebire cyane.

Abantu babiri bahagaze harimo umuzungu umwe barimo guhererekanya insinga bari barimo kugenda bakora utuntu tw'ikoranabuhanga hakurya yaho hariho igikuta giteye irange intebe ziteretse hasi.

Munyubako mo imbere harimo inzu Nini cyane hazengurutseho ibyuma, harimo mo imbere imodoka y'umweru, inyuma yaho hariho ibyatsi bitoya bigiye bitandukanye bivangavanze n' indabo...

Mu nzu mu imbere harimo amakaro y'umweru, inkuta z'umweru n'irangi ni umweru, hariho intebe irambitseho ibitabo, impapuro by'ibinyamakuru, ubucupa bw'amazi, mu imbere harimo imodoka zirimo zikiri nshyashya zitaratangira gukora.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka ifite purake yanditseho amazina mu ururimi rw'icyongereza, inyuma yaho hari inzu n' ipironi y'umuriro wa amashanyarazi, igiti kiri hasi imbere yaho hari amagambo yanditse mu ururimi rw'icyongereza.

Abantu; umwe, babiri, bafite ikintu ubona cyo barimo kwifotorezaho, undi akaba afite agakapu mu ntoki, inyuma yaho haparitseho imodoka itarimo kugenda, hasi hariho amatafari ahiye, aringaniye, hakurya hariho urugo rwibakishije amatafari ahiye.

Umugabo urimo kugaraga ibiganza bibiri afite inote muntoki zisa, zigiye zanditse amafaranga igihumbi. Imbere ye hariho akamashini karimo imibare irimo kwaka iri mw'ibara ritukura kamufasha kubara.

Inote z'amafaranga nyinshi zitondetse zirimo ubwoko bugiye butandkunye, n'amabara agiye atandukanye, hasi hariho ibiceri bigiye bifite umubare ugiye utandukanye imbere ye hariho imashini imufasha kubara ayo mafaranga ye.

Abantu babiri umwe yicaye ugaragara igice kimwe undi uhagaze afite imisatsi yaturitse hejuru afite indi telefone mu ntoki arimo kumumbaza ibintu ubwo ari mu nyubako bakoreramo atunganyirizamo amata ya nyanza, harimo irangi risa umweru.

Umusaza wambaye amadarubindi urimo gucuruza akabotike k'ibintu byo kuriramo amandazi n' imikati, amata harimo ubuvido bwinshi n'injerekani zitarimo ikintu nakimwe, ari kumwe n'undi muntu uteruye akavido.

Inyubako nini cyane yuzuye harimo amakaro imiryango ifunguye yubakishije amatafari ahiye harimo injerekani ziriho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda jibu n'ikigo gicuruza amazi meza cyane.

Inyubako nini cyane mu hasi harimo amakaro, abantu batatu umukobwa umwe n'umuhungu n'umwana mutoya bafite akabido karindwi karimo amata n'indi njerekani iteretse ku kigega kivamo ayo mata atunganyije.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari m'ururimi rw'icyongereza harimo n'imibare ivanvanzemo, nomero za terefoni harimo akantu kari mu ibara ry'umuhondo handitseho ngo feyiri bivuze y'uko bitakunze byapfuye ayo mafaranga boherezaga, umuriro urimo kugaragara urimo ni makumyabiri na gatatu kw'jana isaha yabararaga isaha n'umunota umwe.

Umuntu umwe, babiri, batatu, bicaye umwe afite ikayi mu ntoki n'ikaramu urimo kwandika, hakurya ye hariyo igikuta, inyuma idirishya rikinguye hariho igitambaro.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira hejuru k'iroza hasi ipantaro yikoboyi, afite umusatsi mwinshi mu ntoki ze harimo telefone ye irimo amagambo adasomeka neza, hejuru ye hariho andi yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umumama umwe wambaye ikanzu y'umweru, amasaro ku ntoki no mu ijosi, ateze igitambaro mu mutwe, afite terefone mu ntoki. Imbere ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza.

Urupapuro rw'umutuku hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, hariho umuyoboro wa eyateri utanga itumanaho mu Rwanda no kubitsa no kubikura amafaranga hariho amagambo manini yanditseho.

Umukobwa urimo kugaragara igice cyo hejuru yambaye ishati yumweru ikote mumaso ninzobe umusatsi munini cyane hariho amagambo yanditse imbere ye mururimi rw'igifaransa afite akantu muntoki ka kado.

Abantu umwe, babiri umugabo n'umugore bafite terefone yimbere yabo bose basetse hariho amagambo yanditse mu ururimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza bivanze.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho n'imibare n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hasi hariho ahantu bashyize umwanya wo gusinyaho n'akandi hari amatarik n'isaha ibyo bintu byakorewe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza n'imibare ivanzemo harimo imirongo igiye itambitse n'ihagaze hariho ikirangantego cy'igihugu cyu Rwanda hirya hakabaho nikindi ki kigo gishinzwe imisoro hasi hariho ahantu basigiye umwanya wo gusinya.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, imirongo itambitse n'imanuye igiye inyuranamo n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'ikindi kiranga urwego rushinzwe imisoro mu Rwanda. Hasi hano basize ni ukuza gusinyaho kuri urwo rupapuro.

Urupapuro rw'umweru hariho imirongo ihagaze'tambitse igiye itandukanyije ibintu harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'imibare y'amafaranga ariho akoreshwa mu rwanda.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza hariho imirongo itambitse, hakabaho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, n'ikindi cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza imibare igiye ivangavanzemo imirongo itambitse n'ihagaze igenda inyuranamo ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda n'ikindi kigaragaza urwego rushinzwe imisoro mu gihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza menshi cyane, imbere hakabanzaho undi murongo wanditseho amatariki hakurikiraho imibare igiye itondetse myinshi cyane irimo utuntu tw'udukato, utwitso.

Urupapuro rw'umweru, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho n'imibare ivanzemo, hariho imirongo igiye iciyemo n'itambitse myinshi, hariho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, hakabaho n'akantu kari hejuru kari mu ibara ry'umukara.

Amafaranga y'inote arambuye handitseho igihumbi ariho ibyanditse mu rurimi rw'icyngereza amagambo akaba akoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya. Hariho inyubako ndende cyane nyinshi ziriho, hakaba hariho n'utuntu turiho utudomodomo twinshi.

Inote y'amafaranga igaragara igice k'imbere hashushanyijeho umuntu amafaranga mirongo itanu amagambo mu rurimi rw'igifaransa akoreshwa mu gihugu cya Kongo bagaragaza n'inyuma haho harimo inzu n'insina ziteye inyuma yaho.

Umugabo urimo kugaragara ibiganza gusa, aricaye imbere ye hariho ameza ararambitseho amafaranga ari muburyo butandukanye mu mabara afunze indi kamwe arimo kugenda ayabara imbere ye hariho imashini imufasha kuyabara.

Amafaranga ariho asa menshi cyane yanditseho ijana y'amadorari akoreshwa mu gihugu cye amerika, ariho umugabo ushushanyijeho hasi hariho ibindi biri ku mpapuro z'umweru, agaragaza uko agenda azamuka cyangwa amanuka ku gishushanyo

Amafaranga arambitse hejuru ku meza menshi cyane y'inoti yagiye atandukanye harimo ubwoko bumwe, bubiri, butatu, bune, butanu butandukanye, hagiye hashushajeho n'ibintu bidasa hose.

Umugabo urimo kugaragaza ibiganza bibiri gusa ufite inote z'amafaranga nyinshi cyane zanditseho ijana ariko zose zisa zirambitse ku imeza hejuru hariho ibara rirya gusa.....

Inzu iriho ibintu byinshi bigiye byanditseho biri mu ururimi rw'igifaransa inzugi zifunguye mo imbere harimo ibintu bigiye biteretsemo bitandukanye, hariho ikintu kigaragaza yuko batanga ubufasha bwo kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze inyuma, mo imbere harimo akazu, batonze umurongo bareba mo imbere nk'abarimo kwakamo ubufasha, imbere yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ni amagambo manini cyane, handitseho igishinwa hejuru, irangi ry'icyatsi.

Inyubako nini cyane iteye irangi imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hakaba hariho ikirahure gifunguyemo mo imbere harimo umuntu urimo kwakira undi uri inyuma ye.

Inyubako nini cyane yuzuye yubakishije amatafari ahiye mbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ibintu bigenda biranga ibintu bagenda bakora mu iyo nyubako mo imbere hari umugabo uhagaze imbere yaho n'igiti gihari kitagaragara amashami yo hejuru.

Inzu ndende cyane ifite igisenge munsi hariho umuntu ugaragara igice cyo hejuru wambaye ingofero, hakikijweho n'insina n'ibiti byinshi hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivangavanze.

Inyubako ku rubaraza hanze hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza cyabonetse ngo bukavu kigali kampala hejuru harihoho agafurishi gatambika k'umukara hejuru hariho igisenge giteye irangi ry'umweru.

Inyubako nziza cyane irimo hasi amakaro y'umweru n'ibikuta biteye irange harimo intebe yo kwegamirwaho n'izindi ziri inyuma zitari izo kwegamirwaho n'ameza maremare cyane.

Inyubako irimo amakaro hasi harimo ibikoresho byo munzu bigiye bitandukanye ameza intebe harimo abantu bicaye mubindi hakurya harimo amatara arimo kwaka ibara ry'umweru.

Akantu ku bukorikori bakoze bagashushanya barangiza bakagenda bakakabaza bakagakora gafite ubushishozi bugiye butandukanye karambitse ku kintu cyubatse kirambitse hasi hakurya hari amazu menshi n'ibiti inyuma yaho.

Inyubako nini cyane hasi hariho amakaro y'umweru harimo ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye , igitanda gishasheho amashuka y'umweru ameza ari imbere igikuta kiriho ibitambaro bagenda bapfukisha ku madirishya .

Mu nyubako mo imbere y'igikuta giteye irangi harimo ameza hariho hejuru mudasobwa itarimo kwabaka, imbere yaho hariho intebe iticayeho umuntu, urugi rurafunguye hanze harimo kugaragara ibyatsi bihateye.

inzu mw'imbere harimo amakaro hasi, ameza harambitseho akantu hejuru, intebe zo kwegamirwaho, harimo umuntu wicaye imbere hariho ameza ibintu bimurambitse imbere ku mpande by'indabo, hanze y'inzu urebeye mu birahure hariyo ibiti byinshi cyane.

Inzu mu imbere ahantu harimo ivomero ryo kuvomamo, ahandi hari ubwiherero bwa wese bwo kunnyamo cyangwa kunyaramo bwo munzu mu imbere, ahantu ho kugera hamanitseho isume, hakurya urukuta ruriho amakaro

Inyubako nini cyane irimo amazi mo imbere abantu barimo kogamo abandi bari hejuru mu nzu burimo bugiye butandukanye bw'imitaka harimo ameza n'intebe zo kwicaramo hakurya hariyo ibiti binini cyane bigiye biteyemo by'indabo bagenda bakira abantu babaha ibyo kunywa n'ibyokurya banacumbikamo.

Ni ninjoro burije cyane ni mu gicuku, mu muhanda wa kaburimbo hakurya hariho inzu nini cyane n'ibiti biteye imbere, amatara yo mu muhanda arimo kumurika n'ayo ku inzu, hakurya ikirere ntikigaragara kirijimye cyane, imodoka iparitse hasi nta muntu uri kugenda.

Imbere yaho hariho umuhanda urimo amatafari ashashemo, inyuma yaho hariho ibyatsi bitoya, amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza, hakaba ibintu by'ibyuma birebire bizamuye inyubako igeretse cyane, n'ibiti binini cyane bihateye.

Inyubako nini cyane isa mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hejuru yawo hariho umunara muremure cyane, uha rezo ikirere kirimo gusa ubururu cyane.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cyubatse gifite amazu manini cyane agiye afite amabara atandukanye, ibirahure n'amadirishya bigiye bifunze, imbere yaho hariho umuhanda urimo amakaro y'umweru, ikindi gice harimo sima y'umukara, ikirere gihari kirimo gusa umweru n'ubururu.

Inzu iteye irange ry'ubururu hakaragaraho kositara hejuru, imbere hakaba hari intebe ebyiri zo kwegamiraho, urugi rukaba rufunguye handitseho ijambo mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo irembo.

Inyubako ndende cyane yiteje, ibirahure byayo bigiye bufunguye byinshi, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hasi hariho ibiti bigiye bitandukanye, n'indabo ziri hasi, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu, hakaba hariho n'icyapa cyiri mu ibara ry'umutuku, harimo akarongo batambitse biyobora abagenzi n'ibinyabiziga.

Ikigo kinini cyane gitanga ubwishingizi mu rwanda hasi hariho amakaro mbere yaho hariho intebe ziticayemo, abantu zitandukanye, ameza arambitseho mudasobwa imbere yaho amatara hejuru arimo kwaka mu nzu.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice gitoya harimo imodoka irimo kugenda izindi zihagaze, abantu barimo kugenda batatu babiri n'abagabo undi umwe n'umukobwa ufite indobo mu ntoki irimo ibintu, imbereho hari inyubako ndende cyane n'insinga zumuriro wamashanyarazi zirimo gucaho.

Umukobwa umwe wambaye ikanzu y'umukara n'umukandara munda, afite imisatsi minini, mu ntoki ze harimo mudasobwa, arimo kuyikoresha, hakurya hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umwana w'umukobwa wicaye imbere ye hariho ameza asa umweru hariho mudasobwa imbere ye irimo kwaka arimo kurebamo ibintu yabyishimiye mbere hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda ngo konti wafungura utavuze aho uri.

Umunyeshuri umwe wambaye umupira w'imbeho mu imbere agapira k'umweru, ipantalo ya kaki ufite ibitabo mu ntoki, ku rutugu hahetseho igikapu, imbere ye hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu nini cyane yuzuye iteye irangi ry'umuhondo inkingi nini zisa hariho impapuro nyinshi zimanitseho zifite amabara agiye atandukanye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza imyenda irimo bambitse ibishushanyo by'ibibumbano umuhanda uri imbere uriho utuntu duteye amabara.

Umugore munini cyane wambaye ipantaro n'ishati n'ingofero yarinda ko ikintu cyaturuka hejuru cyamumena umutwe afite. Akantu gakoze mu cyuma mu ntoki zitwaramo ibikoresho hakurya hari inyubako nini n'imashini ikora umuhanda.

Ni mu nzu mo imbere hasi harimo amakaro ku gikuta hateyeho irange ry'umuhondo ibirahure bidafunguye, hicayemo abantu benshi. Imbere yabo hariho ameza arambuyeho igitambaro hariho ubucupa bw'amazi n'ibitabo na telefone zabo.

Abantu benshi bambaye imyenda isa, harimo abapapa n'abagore. Bari mu nzu mw'imbere ifite irangi ry'umweru, hariho ikigaragaza mashusho ariko kitarimo kwaka, hejuru ku gisenge hariho amakaro n'itara ririmo kwaka.

Umumama munini cyane wambaye umwenda w'igitenge amaboko ye agaragara igice cyo hejuru, afite umusatsi imbere ye yafashe ku gihingwa gihari, kihateye gitoshye cyane hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore wambaye imyenda y'imweru ufite terefone arimo kwitabiraho hamwe na mudasobwa, imbere ye urupapuro yafashe inyuma ye hari amagambo yanditse mu ururimi ry'icyongereza mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa wambaye amadarubindi, umusatsi hejuru mwiza cyane, usa inzobe, wambaye agapira k'umweru harimo imirongo y'umukara itambitse, ufite igitabo mu ntoki n'ikaramu, inyuma ye hakaba hariho ibintu bifite ibara ry'umutuku, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Mu isoko ryubakiye igice kimwe ikindi kitubakiye harimo abantu benshi barimo gukora ibintu bitandukanye, abikoreye ibintu badafite na kimwe, abahagaze na moto zitwaye abagenzi, imodoka barimo gukuramo imizigo.

Mu isoko harimo abantu benshi baba mama bambaye imyenda y'ibitenge harimo ufite imbere akantu ashyiramo amafaranga ye, hirya hari Ameza arimbitseho imyenda myinshyi ivangavanze hakurya hari amutaka usa umuhondo n'umutuku hakurya hari ipironi y'amarezo.

Mu nyubako mw'imbere harimo abantu benshi batonze umurongo, barimo kwaka ubufasha. Ku bandi barimo mw' imbere harimo abagabo n'abagore, hakurya idirishya ntago hafunguye, harimo kugaragarayo indi nyubako iteye irangi ry'umweru.

Mu nyubako nini cyane y'isoko harimo abantu benshi abahagaze, abarimo kugenda, abarimo kugura ahamanitseho udukapu, imbaho ziriho nyinshi cyane, hasi harambuyeho shitingi iriho n'inkweto z'amoko menshi yagiye atandukanye n'ibikapu birimo.

Mwisoko m’ imbere yubakiye bacuruzamo ibintu bigiye bitandukanye hasi hambitseho amatafari aringaniye neza cyane harimo amashu itunguru indimu n'ibindi bya seleri bakoresha muyama harimo umuntu urimo kureba muri telefoni.

Umuhanda wubatse neza ukoresheje sima ikomeye cyane, imbere hari inyubako y'isoko rinini cyane ryubakiye risakaje amabati mo imbere harimo abantu benshi cyane imashini zo kudoda imyenda barimo gukoresha abantu.

Amazu yagenewe ubucuruzi harimo abagabo barimo gucuruza bambaye amasarubeti yo mu kazi, imbere imiryango irafunguye harimo imifuka irimo ibintu bigiye bitandukanye, abagabo babiri baje guha bahetse n'igikapu imbere mu gatuza.

Isoko rinini cyane ryubakiye risakaje amabati ashaje, Harimo abantu barimo kugenda, abahagaze, imyenda agiye imanitsemo, Hejuru yaho hariho urugo ruzamuye rurerure rwubakishije amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto birimo kugenda kuruhande hakurya hariho iziparitse zitarimo kugenda inzu iri iruhande rwayo ndende cyane iteye amarange y'umweru, ubururu, n'umuhondo, ikirere kirimo gusa ubururu, amatara arimo kumurika mu muhanda.

Mu isoko mo imbere harimo abantu bicaye n'abarimo kugenda, hasi harimo sima, abadozi barimo kudoda imyenda, hejuru yabo hamanitseho imyenda myinshi cyane, igisenge kigiye gicomekeranyije harimo ibyuma.

Isoko rinini cyane ryubakiye hariho kizamyamuriro ku nkingi, harimo ibicuruzwa ntihabona ntamatara arimo kwakamo, hanze ahatubakiye sima irimo yagiye imenagurika.

Nk'isoko ryubakiye rifitemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye abagabo n'abagore barimo kuzengukana ibitoki, indimu, imyembe, inanasi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko rinini cyane ryubakiye igisengeri kikaba kigiye gifashwe n'ibyuma byinshi bishinze hasi harimo abantu benshi umu mama wicaye ufite imisatsi myinshi harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye inyanya amashu imiteja n'ibindi byinshi cyane.

Mu isoko harimo ibintu byinshi bitandukanye: ibitenge, ijipo, imipira,n' amakabutura, n'amabara agiye atandukanye ,hasi hariho utuntu turimo tudoze mu bwoko tugiye dutandukanye, hariho umucyeka urambuye ahantu hejuru.

Inyubako nini cyane ariko abantu bari ku rubaraza hanze yaho bareba hakurya harimo abakobwa n'abahungu, imashini zimwe zidoda imyenda barimo kuzikoresha, intebe zo kwicaraho n'umukasi ukata ibintu.

Akazu ka emutiyeni gasa umuhondo, mo imbere harimo umukobwa urimo gutangamo ubufasha bujyanye n'iyo serivise batanga. Inyuma ye hariho abantu benshi bamuzengurutse, hakurya yaho hariho ibiti byinshi bihateye.

Akazu ka emutiyene karimo umuntu wicaye mo imbere, akaba yafunguye za nzugi zaho ziba ziriho arimo gutanga ibintu bijyanye na emutiyene, hakurya hari igiti gihari kinini cyane, hakaba harimo gusa umukara ku mpande yo hasi no hejuru

Abantu benshi cyane bagiye bicaye abandi bahagaze, harimo uri mu mutaka ya emutiyene, ikigo gitanga kuzigama no kubikuza amafaranga no kugura amayinite yo guhamagara, yambaye umwambaro w'akazi, hari igare hakurya ritarimo kugenda rihagaze n'amaso menshi.

Akazu ka Emutiyene ikigo gishinzwe gutanga serivisi zo kubitsa amafaranga no kuyabikuza, kugura amayinite uhamagara abantu, mo imbere harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo urimo gutanga ubwo bufasha, hirya y'aho hari inzu iteye irangi ry'umutuku hariho ikindi kigo cya Eyateli.

Urupapuro rw'umuhondo ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'imibare minini cyane gatandatu gatatu gatanu gatandatu kabiri rimwe.

Inyubako nini cyane iriho amagambo manini ari mu ibara ry'umuhondo n'umukara wa emutiyene ikigo cyo mu rwanda gishinzwe gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza, kugura amanite kohereza amafaranga abantu bari mu mahanga, bambaye imyenda y'akazi.

Akazu ka emutiyeni k'umuhondo, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, mo imbere harimo umuntu urimo gutanga izo, ubwo bufasha bwa emutiyeni, inyuma hari abantu babiri barimo baje bamugana, hakirya hari inzu ihari.

Akazu ka emutiyene gafite ibara ry'umuhondo mu imbere harimo umuntu utanga ubufasha mu'ibyo rwego, hanze hariho umugabo umwe uhaciye, hakurya hari inzu nini iteyeho irangi ry'umuhondo amadirishya n'inzugi birasa umweru.

Abantu umwe, babiri, batatu bahagaze kukantu ka eyateri babitsaho cyangwa bakabikuza, kugura amayinite no kubaza kubintu bijyanye nuwo murongo wa eyateri wo guhamagara, hasi hariho sima aho gateretse ako kantu.

Abantu umwe babiri, Bose baricaye, imbere yabo hariho ameza arambitseho igikaye kinini cyane ,umwe afite ikaramu arimo kwandika, hakurya hari umuhanda wa kaburimbo, hari imodoka iparitse mubyatsi ,ebyiri harimo kimwe kikorera imizigo.

Inyubako nini cyane ikoreramo ikigo cyo mu Rwanda bita eyateri, gitanga serivise harimo izo kubitsa amafaranga, kuyabikuza, koherereza abantu, kugura amayinite ugiye guhamagara imbere mu gihugu no mu mahanga, hasi aho bakandagiye hariho amakaro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugaragaraho igice gitoya harimo moto irimo kugenda ihetse igikapu inyuma gifite amabara atatu umuhondo, umutuku n' numukara. Hakurya hari ibiti binini cyane byakuze.

Ibipupe kimwe bibiri bitatu bambitse imyenda igiye itandukanye, barimo kugenda bayigaragaza bayigurisha abantu baza bareba, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hakabaho n'akarangantego kari hasi kariho inuma ishushanyije n'andi kari hirya kariho kamera.

Igare ririmo kugenda hariho umuntu uhetse igikapu, yambaye ishati y'icyatsi isa nk'igikapu. Afite ipantaro y'ikoboyi, ingofero mu mutwe imurinda mugihe ahuye nimpanuka kuba atakwangirika igice cyo hejuru, amadarubindi, inyuma ye hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi cyane y'amadarubindi ari mu maso, mu biganza bye afitemo telefone irimo kwaka arimo kurebamo amagambo harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza imbere ye.

Mu nyubako mo imbere hasi hariho amakaro, ku gikuta hariho irangi ry'umweru, harimo ububati bugiye butandukanye, amatara agiye asumbana arimo kwaka yose, imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako nini cyane iteye irangi ry'umweru, amakaro yo hasi, hanze hariho mu mbuga amatafari akase neza aringaniye, harimo imodoka ihagaze, urugo na rwo ruriho hejuru y'ibara ry'umuhondo, inyuma yaho hariho ibiti binini cyane.

Inzu nyinshi cyane zirimo imbere zifite ibisenge bite amabara agiye atandukanye. Urugi runini cyane ariko bafunguye igice kimwe, imbere ku mbuga hari itaka gusa nta cyatsi na kimwe kikiriho, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu yuzuye nshyashya itarajyamo abantu, hasi hariho amatafari ahiye ariho na sima bagiye bavangavanzemo utuntu dushushanyije, amatara ari kwaka ayamagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuryango wurugo runini cyane ufunguye igice kimwe uteye irange hariho itara hejuru ririmo kwaka mimbere harimo inzu yuzuye ifite imireko igisenge gitukura hejuru hakaba hariho amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza.

Inyubako nziza cyane, yuzuye, irimo hasi amakaro, irange ku gikuta ry'umweru, amadirishya adafunguye, intebe zo kwicaraho zo kwegamirwa, abantu babiri bose bahagaze, imbere yabo hariho ameza ateye irange, anyerera cyane.

Inyubako nziza cyane mo imbere harimo amakaro y'umweru, igikuta giteye irangi risa nk'iryo hasi no hejuru, amatara arimo kwakamo. Harimo igitanda cyo kuryamaho, hashasheho matera n'amashuka barambuyeho. Hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza imbere yaho.

Mu nyubako mo imbere hasi harimo amakaro menshi, harimo ahantu hafunguye idirishya kureba hanze itara rimanitse hejuru kuri purafo, imbere yaho harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru harimo; ubwiherero bwo munzu bugiye butandukanye kandi bufite isuku ihagije, hejuru hariho ibirahure ariko bidafunguye hakaba hatarimo kubona neza urugi ariko rwo rukaba rufunguye hejuru hakaba hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza.

Iyubakoma mo imbere hasi harimo amaka igikuta giteye irange ry'umweru amatara arimo kumurika yaka ari mu nguni n'irindi riri mo hagati hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, harimo intebe zo mu nzu zo kwegamirwaho n'ameza.

Inyubako nini cyane yuzuye vuba hariho ahantu ho kwicaramo amakaro hasi, irangi ricyeye igisenge gisa ibara ry'umutuku hariho imbere yaho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze.

Urugo rwubatse rugenda rusumbana hariho amasikariye agenda asumbana, hateye irangi ridasa ubururu n'umweru hariho hejuru akantu k'ibyuma bagenda bazamukaho bagiye hejuru hasi hariho ibyatsi bitoya bingana n'ibiti.

Inyubako nini cyane irimo amakaro hasi hariho igitanda gishasheho amashuka afite amabara agiye atandukanye, imiryango irafunze n'amadirishya ariko urebeye mu kirahure urimo kubona hanze ibiti byinshi cyane bihari.

Munzu mimbere hariho urukuta rusa umweru harimo ikigaragaza amashusho harimo nameza harambitseho akantu hejuru kamanuyeho insinga zihuza ako kantu karambitseho nicyo kintu kigaragaza amashusho handitseho amagambo mururimi rw'icyongereza

Ni ninjoro burije cyane inyubako iteye irangi ry'umweru, imbere yaho hariho ibyuma bigiye bizengurutse inzugi n'amadirishya bifunze, hasi hariho sima imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu yuzuye neza ifite igisenge imireko imanura amazi, amadirishya n'inzugi bidafunguye hahagazeho umuntu, utwuma turiho imbere yaho hariho ibyatsi bingana n'amagambo yanditse rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako ndende cyane igeretse hejuru hariho ibyuma bizengurutse birinda yuko abantu bahanuka hasi ,iteyeho irangi ry'umuhondo n'umweru imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ,ashushanyijeho idarapo ry' igihugu cy'u Rwanda ikirere gisa ubururu.

Inzu nziza cyane yuzuye igeretse imbere mu rugo hakaba hashashemo amatafari ahiye urugo ruteye irange imbere hakaba harimo ahantu harimo ibyatsi bitoya bingana, hakaba handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako nini cyane yuzuye itarajyamo abanturishyashya, iteye irangi harimo amatara arimo kwaka ibyuma bizengurutseho birinda y'uko abantu bahanuka bagiye ku ruhande, amagambo ariho yanditse mu rurimi rw'icyongereza ikirere gisa umweru.

Abantu umwe babiri batatu bane, bose bahagaze. Iimbere yaho hariho ameza y'gitambaro cy'umweru, harambitseho icyuma gisohora impapuro hakurya hari udutageri twinshi cyane, harimo ibintu by'umweru bigiye bitandukanye amatara hejuru mu nzu arimo kwaka.

Ikigo cyo mu Rwanda cya emutiyene gishinzwe gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga, guhamagara hariya mu nyubako harimo kwakamo amatara, harimo n'abantu benshi cyane n'indangururamajwi iteretsemo.

Mu nyubako mo imbere itarimo kugaragara neza, harimo abantu benshi cyane, abicaye bahagaze abarimo gufata imyenda, harimo ibindi bintu by'ibiti bitambitse hamanitseho amashati agiye atandukanye, ameza ari imbere ariho ibindi myenda Igiye ishinze.

Umumama umwe wicaye wambaye ikanzu y'umweru harimo n'utundi tubara tugiye tuvanzemo ufite imisatsi iguye inyuma, imbere ye hariho akameza kazengurutseho ibara ry'icyatsi harambitseho amakayi hakurya ye harimo akabati karimo amacupa menshi.

Mu nyubako n'imbere hasi harimo amakaro hejuru' amakaro ateye irangi ry'mweru amatara arimo kwaka abantu hasi barimo kugenda abandi bari kumwe bakoze agatsiko kabo barimo kuganira hari imyenda myinshi ihari.

Umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ufite umusatsi yasokoje ari mu nyubako mo imbere hasi harimo sima imbere ye hariho ububati buriho amacupa y'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, harimo abantu benshi bagiye batandukanye ,ububati bugiye burimo ibikombe, amateremusi n'ibindi bintu harimo irangi ry'umweru kugikuta, hejuru harimo amatara arimo kwaka.

Ikirangantego kiriho izuba n'amabara y'icyatsi kibisi n'ikijimye, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ejo heza. Hasi hakabaho n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, hejuru hazamuyeho ibyuma bisa ubururu, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ikiranga ntego cy'igihugu cy'u Rwanda, hariho hasi ibiti biteye ahagana hasi.

Abantu umwe babiri bose bambaye imyenda isa barimo kuganira ibiganiro ,imbere yaho hariho ameza y'umweru ariko nta kintu giteretseho, hejuru hariho amagambo yanditse muririmi rw'ikinyarwanda ngo heza.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, bose baricaye, inyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo kumutsa ikawa, kwanika ikawa, ari mu irange ry'umweru.

Abantu barimo abagabo, abagore, bahagaze ku murongo umwe hasi hariho amakaro, inyuma yaho hariho igikuta kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza,

Urupapuro rw'ubururu handitseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo uko wakwizigamira muri ejo heza ukoresheje terefone. Hejuru hakaba ikirangantego cya ejo heza kirangwaho n'izuba.

Ni ahantu hasa ibara ry'umweru na harimo umukara havanzemo n'icyatsi hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire. Hashushanyije ,harimo umuntu ugaragara igice hejuru ahandi haranditse ngo igihe ugifite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru.

Urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo mituweli ubwisungane mu kwivuza, hejuru hariho abantu ibice byo hejuru by'imitwe itatu hariho abasa mu kibara cy'icyatsi amagambo ari mu nyuguti y'icyapa manini yanditse ngo RSSB.

Abantu babiri bahagaze umwe afite indangururamajwi mu ntoki, undi yambaye agapfukamunwa afite urupapuro rugaragaza ubwizigamire bwe yagiye abitsa muri ejo heza, yitwa Mucyo Wiliyamu afite amafaranga y'amanyarwanda miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Ikiganza cy'umuntu kirimo kugaragara cyonyine ufite ikarita yo kwa muganga yo kwivurizaho, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza. Mu kinyarwanda handitse ngo, "ikarita y'umunyamuryango, ubwisungane mu kwivuza".

Inyubako nini cyane bagenewemo isoko ryubakiye ryiza cyane hasi hariho amakaro umuntu urimo kugendamo hejuru amatara arimo kwaka ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibicuruzwa biri mu mashashi bigiye birimo .

Isoko mo imbere ryubakiye hasi hariho amakaro hakurya hariho akabati karimo ubwoko bw'ibintu bigiye bitandukanye kandi bitavangavanze bitewe n'ibyari ubucupa harimo; amakarito amafanta, ibyokunywa by'amaji.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo bahagaze urimo imbere, arimo gucuruza undi uri inyuma aje kumuhahira bose bambaye udupfukamunwa barimo kwirinda indwara z'ibyorezo zakwandura ziciye mu macanshwe yava mu kanwa.

Munzu mo imbere, hasi harimo amakaro, hejuru y'igisenge hariho amatara arimo kwaka, imishumi, mumpande hakaba harambutseho ibikarito n'utuntu tugiye turimo ibintu by'amacupa by'ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Isoko rinini cyane ryubakiye hejuru harimo amatara arimo kwaka, ibyuma bigiye bimanutsemo hagati n'inkingi bigiye biyifashe harimo abantu barimo kugenda n'abahagaze, ibicuruzwa byinshi cyane by'amoko menshi agiye atandukanye.

Isoko rinini cyane ryubakiye hasi ririmo aamakaro abantu abrimo kugenda ibicuruzwa biriimo m'ububati byinshi cyane bigiye bitandukanye, hejuru harimo amatara atarimo kwaka ibyuma bitambitsemo byinshi cyane.